Ndabazi mwese, nabahaye imyenda y'akazi, kuki mutambaraga imyenda y'akazi ngo mugaragarage neza? bimaze iki? Ndashimira abagaragaraga neza, bita ku myenda y'akazi.

Twigaga kompiyuta, tukandikaga muri kompiyuta, tugakora kuri kibodi, ukandika n'ahantu ukabazaga mugenzi wawe uko yabikoragan, awe ugakora nk'uko yakoraga maze twese tugatsindaga.